Icyumba kirimo ameza n'utubati mut'utubati ndetse no ku meza, hari ibitabo byinshi ndetse n'udukinisho twinshi, yaba utw'imibare ndetse n'utw'inyajwi.

inyubako yo mu kigo cy'amashuri, aya mashuri igizwe n'amarangi y'umuhondo, n'amabati y'umutuku, n'inzugi z'umukara, kuri ayo mashuri hashushanyijwe ibishushanyo bitandukanye birimo Itoroshi, ikarita y'u rwanda ndetse n'igikanka.

Igishushanyo kiriho abana babiri uw'umuhungu ndetse n'uw'umukobwa, bari mu nzira bakikijwe n'ibiti, hari igikapu gisa umutuku n'ubururu bigaragara ko ari icy'umuhungu, umukobwa na we ahetse igikapu cya move, umusore afite utuntu tumeze nk'umuceri mu ntoki tw'umweru.

Ikigo cy'amashuri kinini kirimo inyubako nyinshi ndetse harimo n'ibigega, izo nyubako zifite inzugi n'amadirishya by'ubururu, imbere y'inyubako hateye ubusitani ndetse hari n'ahandi hari imbuga idateyeho ubusitani, muri icyo kigo harimo abana b'inshuke barimo barakina.

Ikigo cy'amashuri kirimo inyubako zubakishije amatafari ahiye, gikikijwe n'imirima ndetse n'inyubako zitandukanye z'abaturage.

Inkuru ya Gasaro n'abajura. Umwana uri hanze arimo ararunguruka abajura babiri b'abagabo bari mu nzu ubona ko barimo bariba imbuto.

Ameza asa umutuku hariho ibitabo bitandukanye kimwe gisa icyatsi n'umuhondo, cy'ikinyarwanda cyo mu mwaka wa gatatu, ikindi gisa ubururu bwerurutse cy'umwaka wa mbere, hari n'igisa uburu bwijimye cy'umwaka wa kabiri.

Igitabo kirimo ibara ry'icyatsi ndetse n'umuhondo werurutse, gishushanyijeho abana babiri b'abahungu, umwe yambaye ishati y'icyatsi, undi yambaye umupira wa orange. Bari gusoma igitabo cy'ikinyarwanda, igitabo cy'umunyeshuri umwaka wa mbere w'amashuri abanza.

Ifoto igaragaraho ibikoresho gakondo, bikunda gukoreshwa mu buhinzi, harimo najoro, isuka, ipiki, nyiramajago, hakabamo igitebo gitoya ndetse n'ikinini, hakabamo igitiyo, hakabamo ndetse n'umupanga.

Icyumba kiririmo ibara ry'ubururu, iry'icyatsi, umuhondo ndetse na move, iki cyumba kirimo ibikinisho byinshi bigaragara ko ari icyumba kirererwamo abana.

Ikigo cy'amashuri kigizwe n'inyubako, izo nyubako zubakishije amatafari ahiye, amadirishya n'inzugi bifite ibara ry'icyatsi ndetse n'amabati y'umweru. Kuruhande hari inyubako yindi, ubona ko yasenyutse yavuyeho igisenge, hagati mu kibuga hateyemo imiti kirekire.

Amashuri afite amadirishya n'inzugi by'icyatsi ndetse n'amabati y'ubururu, imbere y'ayo mashuri hubatse ikandagira ukarabe igezweho, iyo twita ubwogero, ubwogero bugezweho bwubakishije amakaro ndetse buriho n'amavomo menshi.

Ikigo gifite umuryango munini uri mu ibara ry'icyatsi, kuri uwo muryango handitseho amagambo hejuru ari mu ibara ry'umweru ndetse hamanitseho n'ikindi cyapa.

Igishushanyo kiriho umwana w'umuhungu n'umukobwa, umwe yambaye agakanzu ko mu ibara ry'umweru, umuhungu agashati ko mubara ry'umweru. Umukobwa ari kumutungira agatoki umugezi uri guca hagati y'imisozi ibiri.

Ibikoresho twifashisha mu mibare bidufasha gushushanya ibintu bitandukanye, harimo umurongo y'aba ugororotse, harimo ibidufasha gushushanya mpandeshatu, harimo ibidufasha gushushanya uruziga. Ibyo bikoresho byose biri mu ibara ry'ubururu hariho uturongo tw'umukara.

Inyubako y'ishuri rya segonderi ni inzu igeretse kabiri yubakishije amatafari ahiye, isize amarange y'umuhondo, amadirishya n'inzugi bisa ubururu, imbere y'iyo nzu hahagaze abayobozi ndetse n'abakozi, abo bakozi bari kwereka abayobozi ibijyanye n'iyo nyubako.

Ubusitani buteyemo indabo zitandukanye muri ubwo busitani haciyemo utuyira twubakishije amabuye, impande y'ubwo busitani bubatse inzu igeretse kabiri ndetse hakikijwe n'ibiti ku ruhande.

Umugabo cyangwa se umusore wambaye ikote, ishati, karuvate, ikanzu y'abarangije kaminuza ndetse n'ingofero ari guhabwa impano cyangwa ishimwe n'umuyobozi wambaye ikote ry'ubururu bwijimye.

Igishushanyo cyashushanyijwe hifashishijwe amarange. Kigaragaraho umugezi utemba hamwe n'ibiti kumpande ndetse n'indabo z'amoko menshi.